Iyi ni ifumbire y'imborera ifumbire y'imborera yifashishwa mu buhinzi, kuko mu buhinzi dukoresha ifumbire y'imborera n'ifumbire mvaruganda. Ifumbire y' imborera irafasha cyane kugira ngo umusaruro wiyongere, ikomoka ku matungo , cyangwa se imyanda iba yakusanyijwe cyangwa se ibyatsi.

Iyi ni dorone, dorone ivomerera imyaka, nk'uko bimaze kumenyekana mu Rwanda,u Rwanda rukataje mu ikoranabuhanga, aho dusigaye dukoresha dorone mu kuvomerera imyaka, cyane cyane mu bice by'iburasirazuba, haba hahingwa ibihingwa bitandukanye ariko hakunda kubura imvura.

Aya ni amafi ari mu rushundura, urucundura ni icyo bakoresha baroba ari ukuroba amafi, ari kuroba isambaza, ari ukuroba indagara, ni incundura bakoresha kugira ngo barobe, cyangwa kareremba.

Izi ni incundura incundura ni igikoresho bakoresha mu kuroba, mu koroba amafi isambaza, inundu na n'insonzi ni byo bita inshundura cyangwa.

Aya ni amafi ariho indimu, hakaba hariho na salade, hariho n'inyanya, hariho n'indagara.

Ubu ni ubwato, ubwato bukoreshwa mu kuroba kuko ubwato bukoreshwa mu kuroba buba buziritse, kugira ngo buze kugira ekiribre mu gihe cyo kuroba kuko baroba mu gihe cy'ijoro.

Izi ni isambaza bamaze kuroba kuko ziracyari mu rushundura cyangwa igikoresho bakoresha baroba, ziracyari mbisi ntabwo barazikaranga cyangwa barazikawusha .

Izi ni indagara. Indagara ziva mu mazi, indagara zikungahaye kuri vitamine kuko bagira inama abantu kujya ibijyo birimo indagara.

Iki ni icyuzi, icyuzi gikoreshwa mu korora amafi, ashobora kuboa ari amafi, ashobora kuba ari indagara, cyangwa isonzi, bikaba ibi byuzi biboneka ahantu hatandukanye, cyane cyane ahantu h'ibishanga.

Aya ni amafi, amafi aboneka cane mu biyaga, ari ikiyaga cya Ruhondo n'ikiyaga cya Burera no mu Kivu, niho amafi akunda kugaragara ,ari mu bidobo cyangwa se mu bibase aho bayatwara kugira atangirika.

Ubu ni ubwato ubwato bwa polisi, polisi Marine cyangwa polisi ikorera mu mazi, icunga umutekano wo mu mazi no gufasha abantu bagiriye ibibazo mu mazi, ari ukubarohora cyangwa no gutanga ubundi bufasha butandukanye.

Ibi ni ibitoki, ni ibitoki byo mu bwoko bw'inyamunyu, kuko inyamunyu ni zo ziba zifite amabere maremare, ibi bitoki ni byo mu bwoko bw'inyamunyo. Ni ibitoki barya byo kurya.

Uyu ni umurima wa tungurusumu hirya yaho hari umurima w'ibigori. Izi tungurusumu ku ruhande bagiye bakicirizaho ibishimbo, ibishimbo bigufi.

Ni mu murenge wa Nyange, ni ikibuga giherereye kuri jiyesi nyange, ishuri ribarizwa mu murenge wa Nyange mu Karere ka Musanze, iki ni ikibuga harimo n'igiti igiti cy'umwungo cya kera.

Uyu ni umurima wa karoti, karoti ni ubwoko bw'imboga, ni imboga ziba zisa n'umuhondo, rero zikunda guhingwa cyane cyane mu majyaruguru, mu karere ka Musanze, muri Rubavu no mu karere ka Nyabihu.

Uru ni urutoki hagaragaramo insina eshatu, uru rutoki rukaba ruri mu murima ariko bigaragara ko uyu murima uhingwa, imbere y'aho hari umuhanda, hariho n"inzu iri mu gipangu.

Uyu ni umurima w'ibirayi ariko haragara hirya yaho hariho ibigori hakabaho n'urutoki, n'urutoki hariho n'ibiti by'avoka.

Uyu ni umurima urimo ibihaza. Uko bigaragara ko ruriya ari uruyuzi, akaba ari umurima w'amashaza. Aya mashaza ageze igihe cyo kuba yasoromwamo urunyogwe amashaza yo guteka.

Izi ni karoti, karoti ni ibihingwa bikunda kwera cyane cyane mu majyaruguru, cyane cyane muri Musanze, no mu burengerazuba bw'igihugu mu karere ka Nyabihu no mu karere ka rubavu. Karoti rero zibarizwa mu mboga.

Uyu ni umurima w'ibirayi. Ibirayi ni igihingwa gikunda guhingwa cyane cyane mu majyaruguru mu karere ka Musanze, mu karere ka Burera, mu karere ka Nyabihu no mu karere ka Rubavu mu murima w'ibirayi.

Iki ni ikinani cyangwa umurima, umurima warajwe udahinzwe urimo ibyatsi bitandukanye, harimo ibyatsi twita ugwiri, harimo n'ibigorigori cyangwa n'ibifuraninda byose birimo.

Ni umurima, uyu ni umurima wibirayi, imbere ya ho hari inzu, inzu ikikijwe n'uruzitiro ruriho ibidodoki, hakaba hariho n'insina, imbere ya ho hakaba hariho n'igiti cya voka.

Uyu ni umurima uyu murima uvuyemo ibigori, ruguru yaho hari undi murima uhinzemo ibirayi. Aha hahinze ibigori ubu bagiye kuhahinga bahingemo ibishimbo cyangwa se ibirayi.

Izi ni karoti ariko kiriya gihingwa kirimo hagati kinini, ni igihingwa cyangwa n'ibyo bita amateke, cyangwa ibikoro. Byerera hasi bikera ibintu bimeze nk'ibijumba, ariko byitwa amateke.

Ibi uyu ni umurima w'ibirayi, ni ibirayi bihinzwemo ariko biragaragara ko hashobora kuba harimo n'ibigori, havuyemo ibigori, ni umurima w'ibirayi.

Umuurima w'amashyaza imbere yaho hari ibirayi ariko hari n'uruzitiro rw' ahantu. Hari uruzitiro ruzitije ibikenyeri by'ibigori.

Uyu ni umurima w'ibirayi. Ni umurima w'ibirayi ibirayi bya kinijyi nkuko bigaragazwa n'ubwerezwa bwabyo ibirayi bya kinijyi bigaragara mu karere ka Musanze, Nyabihu na Rubavu.

Iki gihingwa ni igihingwa cyitwa inyanya. Inyanya ni igihingwa gikunda guhingwa cyane cyane mu majyaruguru ariko no mu gihugu hose inyanya zirahingwa. Inyanya zikaba zibarizwa rero mu mboga.

Ibi ni ibigori ni ibigori bimaze guterera cyangwa bimaze guheka kuko bigaragarako ubusenzi bwabyo butararabya. Ibigori rero ni igihingwa kigaragara mu Rwanda, cyangwa gihingwa mu Rwanda hose mu turere twose tugize igihugu.

Ibi ni ibitoki ariko ibitoki birimo amoko abiri, hari ibitoki biribwa n'ibitoki bengamo inzoga, ibi bitoki rero ni ibitoki biribwa ibyo bita inyamunyu.

Ibi ni ibirayi ni ibirayi bitanditswe biri mu isoko iri soko ni isoko rya kinigi. Ibi birayi ni ibirayi, ibirayi bikunda guhingwa cyane, mu karere ka Musanze, Burera, Rubavu na Nyabihu.

Ibi ni ibigori, ibigori birangije guterera cyangwa birangije guheka, ibi bigori biba bisigaje nk'igihe cy'amezi nk'abiri cyangwa ukwezi n'igice, kugirango byere.

Aba ni abantu bari gusoroma uburo, uburo ni ubwoko bw'impeke, izi mpeke zikaba zivamo igikoma. Uburo zikungahaye ku ntungamubiri no kuri vitamine.

Izi ni intama intama ni amatungo magufi; amatungo magufi akunda kororoka cyane kandi intama kunze korerwa n'ahantu n'abantu batuye ahantu hakonje, ariko intama ni itungo rigufi ryororoka kandi ritanga umusaruro.

Ibi ni ibirayi, ibirayi byo mu bwoko bwa rutuku bamaze kubikura urabona ko birunze mu murima ibirayi ni ibirayi bigira ifiriti nziza kandi bigira n'amafu.

Iyi ni imo iyi modoka, irimo ibitoki n'indi mifuka birimo ibicuruzwa bitandukanye, ibitoki biba byavuye Gakenke cyangwa se muri Vunga.

Aba bantu ni abahinzi bari kumwe n'abagoronome cyangwa se abafashamyumvire mu buhinzi kuko imbere yaho hari imbuto, imbuto y'ibirayi bagiye gutera mu mirima yatoranyijwe cyangwa mu mirima yahujwe kugira ngo ihingwemo igihingwa cy'ibirayi.

Ibi ni ibitunguru. Ibitunguru bikoreshwa mu gihe bagiye gukaranga, ibitunguru n'injyoshanjyo, cyanwa byongera ubujyohe mu bijyo, kuko bikoreshwa mu gihe bagiye gukaranga, cyangwa se bakarishira mu ifunguro jyahiye.

Izi ni inyanya. Ni inyanya zerera hejuru, ubusanzwe inyanya zerera hasi ariko muri iyi minsi bazanye inyanya zerera hejuru bahinga bakazishingira nkuko bashingirira ibishimbo.

Ni umuntu ari kubagara ari kubabagara ibirayi, ari kubagara ibirayi bigeze igihe cyo kubagara. Cyangwa se akaba ari gushiraho imvaruganda kugira ngo bitume bikura.

Izi ni intoryi, ni kokombure, ibitunguru, ibi biri mu isoko, ni ibicuruzwa nyine bibarirwa mu bwoko, ni imboga nk'uko tuvuga inyanya n'ubundi bwoko butandukanye bw'imboga, ibi ni imboga.

Izi ni avoka, avoka zibarirwa mu bwoko bw'imbuto, zikaba zikungahaye kuri vitamine, kuko Reta y'u Rwanda ishishikariza abantu, buri wese nibura kuba afite igiti cya voka mu rugo iwe, kugira ngo arwanye imirire mibi.

Aya ni amasaka, amasaka n'impeke izi mpeke zirahingwa. Zivamo ikigage, ubushera, cyangwa zikavamo n'urubetezi bakoresha mu gihe benga inzoga. Kandi amasaka avamo n'igikoma cyangwa umutsima.

Iyi ni grini hawuze cyangwa inzu bahingamo. Izi grini hawuze ziba ari inzu ariko izi nzu zikaba zikozwe mu ikoranabuhanga ku bujyo bazihingamo, bagahingamo imyaka itandukanye, uyu yahinzemo ibirayi.

Izi ni ingemwe z'avoka ziri mu bihoho aho zivuye cyangwa ziri muri pepeniyeri, aho bazigemekeye kugira ngo zishobore gutegwa zifite ubuziranenge.

Izi ni isombe, isombe ni biri mu bwoko bw'imyumbati ariko yo ntabwo yera yerera hasi ahubwo aya mababi ni yo basekura cyangwa bakayajyana ku mashini zikayasya barangiza bakayiteka.

Ibi ni ibigori. Ibi bigori byanitse ku biti cyangwa bishayitse ku biti, uyu muntu biriya afashe byo birahunguye. Ibigori ni igihingwa kiboneka mu gihugu, cyangwa gihingwa mu gihugu hose.

Iri ni isoko ry'ibiribwa birimo ibiribwa bitandukanye harimo inyanya harimo pavuro harimo amaronji n'izindi mbuto zitandukanye amatunda harimo intogi n'ibindi biribwa bitandukanye biboneka mu masoko.

Iki gihingwa ni igihingwa cy'inyanya. Ni inyanya, izi nyanya bashingirira, cyangwa inyanya zitaranda hasi, ahubwo ziranda hejuru, ni nyanya ni inyanya, ni ubwoko bw'inyanya basigaye bahinga bakazishingirira, aho kuranda hasi bagashiraho ibiti bakazishingirira.

Iyi ni avoka, avoka ni mu bwoko bw'imbuto zikungahaye ku ntungamubiri wo kubashishikariza cyangwa guverinoma y'u Rwanda ishishikariza buri muturage kugira igiti cy'avoka.

Abahinzi bari kubagara amashu. Aya ni amashu bari kubagara, hageze igihe cyo kubagara bamwe bari kubagara abandi bari kuyasasira kugira ngo atazatarukirwa umusaruro ntube mwiza.

Uyu mu mama afite ishu mu ntoki, ari gusarura amashu kuko ari mu murima w'amashu, hirya ye hari umurasire imirasire bakoresha bavomerera izi mbuto ziba zarahinzwe muri iki gishanga.

Iyi ni imyembe. Imyembe ni igihingwa kiboneka mu Rwanda cyane cyane gihingwa mu karere ka Rusizi no mu karere ka Bugesera. Imyembe ni imbuto ni imbuto zikundwa cyane kuko zikungahaye ku ntungamubiri.

Ibi ni ibirayi byo mu bwoko bwa Kinigi. ibirayi bya kinigi bihingwa cyane cyane mu karere ka Musanze, Nyabihu na Rubavu. Niho ibirayi byo mu bwoko bwa Kinigi bikunda kwera cyangwa bikunda guhingwa.

Iki ni igihingwa cy'imyumbati， imyumbati y'imiriribwa，imyumbati ni igihingwa kiboneka mu gihugu， ho ntabwo ari hose ariko akenshi kiboneka mu majyaruguru，mu misozi no mu gice cy'Amajyepfo n'Iburasirazuba.

Ibi ni ibigori, ibigori by'amahundo, umuntu aragaragaza ko umusaruro we wagenze neza, cyangwa yabonye umusaruro uhagije, ibigori ni igihingwa gikunda guhingwa mu gihugu hose mu gihugu cy'u Rwanda hose, mu turere twose kirahahingwa.

Aya ni amatunda, amatunda ino iwacu mu majyaruguru tuyita amatunda y'amarozi, agaragara ni igihingwa gihingwa bakagishingirira, cyangwa se bakacyubakira, kugira ngo kirande ni amatunda, ni ubwoko bw'imbuto.

Uyu ni umurima w'inanasi. Inanasi ni igihingwa cyera mu misozi miremire, cyane cyane mu karere ka Gakenke. Ziboneka mu karere ka Gakenke, ariko zikaba zinahingwa no mu burasirazuba bw'Igihugu.

Iri ni isoko, aba bantu, uyu mugore wicaye ni umucuruzi w'aya mashu agaragara kuri aka gatanda, bariya bantu bandi babiri ni abakiriya bari kugura ibintu bitandukanye, biri muri iri isoko.

Aka ni agasoko bacururizamo. Ibi bigaragara ku mabuye ni ibisheke. Uriya muntu wicaye ku gatanda ni we mucuruzi w'ibisheke. Nk'uko bigaragara iriya ni imifuka ishobora kuba irimo ibindi bintu.

Ibi ni ibijumba, ibijumba by'umutuku n'iby'umweru. Ibijumba ni igihingwa gihingwa ahantu hari ubutumburuke bwo hejuru cyane cyane mu misozi, ariko n'ahantu harambuye. Ibijumba rero bikaba bikungahaye ku isukari.

Aba ni abantu bari kuhira cyangwa bari kuvomerera imyaka yabo mu gihe cy'izuba, cyangwa mu bice bitabonekamo imvura nyinshi ihagije, ku bujyo yabasha kugwa imyaka yabo ntigire ikibazo.

Ibi ni ibicuba by'amata aba n'abamotari babiri, n'umunyegare umwe bayakura mu nzuri bakayajyana ku makaragiro, aho bayakusanya bakayajyana mu nganda ziyatunganya.

Ibi ni ibitebo, ibi bitebo birimo amaronji. Ibitebo ni ibikoresho bakunda gukoresha batwara inyanya, batwara intojyi cyangwa se batwara ifumbire barivana mu rugo barijyana mu murima.

Izi navoka zirimu makarito ni zirimu makarito nk'uku ziba zigiye koherezwa hanze mu bihugu bitandukanye uko avoka nazo ziri mu mbuto u rwanda rwohereza hanze.

Iki ni igihingwa cy'ibigori. Igihingwa cy'ibigori kiboneka cyangwa gihingwa mu Gihugu hose mu turere twose. Kikaba ari igihingwa kivamo ifu y'ibigori, kandi ibigori bikaba byavamo kawunga n'ibindi, igikoma n'ibindi bitandukanye.

Iki ni igipapayi. igipapayi ni ubwoko bw'imbuto, ipapayi byorosha mu nda kuko iyo ababyeyi babyaye bategeka ku... kurya ibipapayi kugira ngo byoroshe igogora.

Uru ni uruyuzi, uruyuzi ni igihingwa kivaho ibihaza ariko ni uruyuzi rutarera, kuko rugaragara ko ruriho ibisusa ntabwo ruraranda ngo ruzane ibihaza byo kurya.

Iki ni igihingwa cya tungurusumu. Tungurusumu ni igihingwa gikunda guhingwa mu Karere ka Musanze, no mu Karere ka Nyabihu. Tungurusumu akaba zifitiye akamaro umubiri, kuko zituma amaraso atembera neza.

Ibi ni ibishyimbo, ibishyimbo bigufi bigaragara ko hariya ari imiteja, ntabwo biragera igihe cyo kwera ariko biregereje bisigaje nk'ukwezi cyangwa ukwezi n'igice kugira ngo byumye.

Aya ni amashaza y'urunyogwe, ni amashaza batonoye bashobora kuba bari kuyagurisha cyangwa ari umuntu wayatonoye agiye kuyateka ni amashaza rero aba yareze ariko ata ataruma

Izi ni insenda , insenda ni insenda bazishira mu biryo kugira ngo byongere uburyohe twabibarira mu ndyoshandyo kandi insenda ni igihingwa ngengabukungu kuko bamwe barazihinga bakazigemura cyangwa bakazijyana mu mahanga.

Iri ni ipera, ipera ni imbuto, izi mbuto, uru rubuto rw'ipera ruri mu bwoko bubiri, hari amapera ya kizungu aba ajyohereye cyane n'amapera ya kinyagwanda. Aya mapera ni imbuto ziboneka, biba ari ibiti biba bitewe mu ngo, mu ngo z'abantu zitandukanye.

Abantu babiri umwe afashe atwaye isuka ku rutugu, akaba yambaye n'ingofero y'urugara, undi afite inkoko iriho tangawizi akaba yikoreye n'imboga.

Iri ni iduka ricururirwamo ibiribwa. Bigaragara ko hariho igitoki, n’indi mifuka ishobora kuba irimo ibigori, amasaka, n'ibishyimbo, n’ibindi bicuruzwa, cyangwa n'izindi mpeke.

Ibi ni ibijumba, ni ibijumba byokeje ni ibijumba byokeje kuko bigaragara ko bamaze kubyotsa, barangiza kubyotsa bakabyoza kugira ngo uraza kubirya, abirye byogeje bimeze neza.

Iyi ni imyumbati iri mu mufuka, imyumbati y'imiribwa iribwa. Mu myumbati habamo ubwoko bubiri hari imiribwa n'imitamisi. Imitamisi ni ivamo umutsima w'ubugari. Ariko iy'imiribwa yo barayiteka.

Aya ni amateke amateke ni igihingwa gikunda guhingwa cyane ahantu hari ubutumburuke bwo hejuru, aya mateke akaba ari amateke y'amadahaguzwa aya mateke yerera igihe kiri hagati y'umwaka n'imyaka ibiri.

Izi ni insenda, izi ni nsenda insenda zibarizwa mu bituma ibiryo biryoha, cyangwa bikongera icyanga, nsenda rero ni zituma abantu bagira appeti hamwe.....

Biriya birikura byanitse kura ariya mahema cyangwa aya mahema ni amasaka. Amasaka ni impeke izi mpeke zivamo igikoma, zikavamo urubetezi bakoresha kugira ngo babetere inzoga kavamo n'ubushera cyangwa se ikigage.

Ubu ni ubunyobwa bukaranze karanze, bukaranze bwo kurya, aka gasahani karimo ubunyobwa bugaragara ko buhiye, ni ubwo kurya, cyangwa gucuruza kuko ubunyobwa barabucuruza, bariya bacuruza amagi n'ubunyobwa baba babucuruza mu ndobo, no mu mashashi.

Aba bantu bafite ingemwe ziturutse muri pepeniniyeri ni iz'ubwoko butandukanye zishobora kuba ari avoka , inturusu n'izindi ngemwe z'ubwoko butandukanye.

Ubu ni ubunyobwa bari kurobanura. Ubunyobwa hari ubwo duhekenya, ubundi bakabusyamo ifu tukabushira mu isosi. Ubunyobwa ni igihingwa gihingwa cyane cyane mu Majyepfo y'Igihugu muri za Gisagara no mu burasirazuba mu Karere ka Bugesera.

Iki ni igihingwa cy'umuceri igihingwa cy'umuceri ni igihingwa gihingwa mu gishanga ahantu hakunda kuboneka amazi kuko umuceri kugira ngo were gukenera amazi menshi cane.

Ni ibicuruzwa bicuruzwa cyangwa ibyo bita ibiryo by'amatungo. Uko bigaragara harimo ibiryo by'amatungo, inkoko n'ingurube. Aha ni aho bacururiza ibiryo by'amatungo.

Iri ni iduka cyangwa butike icuruza imyaka itandukanye harimo ibishyimbo, harimo amasaka, harimo ibigori kabantu banacuruza amafu y'ubwoko butandukanye.

Ubu ni ubwanikiro, ubwanikiro bwanitswemo ibigori, nk'uko Leta y'u Rwanda yagerageje kwanika ubwanikiro butandukanye, kugira ngo umusaruro w'ibigori utajya wangirika mu gihe cy'isarura.

Izi ni imboga rwatsi bita dodo, ariko biragaragara ko zakuze cyane. Izi mboga rwatsi zikaba zikungahaye ku ntungamubiri kuko babwira cyangwa bashishikariza buri muntu kurya ifunguro ririmo imboga.

Ibi ni ibishimbo byitwa nyiragateja, biriya bike biri ku mwuko cyangwa indosho, ni ibishimbo cyane cyane bigaragara mu majyaruguru, ni ibishimbo bahinga bakabishingirira.

Umuntu ari kugosora ,kugosora ni igihe uba uri gukura umwanda cyangwa ibindi bisigazwa mu bigori, mu bishimbo, mu masaka, mu buro no mu zindi mpeke zitandukanye nibyo bita kugosora, biharya iki gikoresho ari gukoresha tucyita inkoko cyangwa intara.

Izi ni inzuzi， inzuzi barazitera zikavamo ibihaza， ibi bihaza turya biba byavuye muri izi nzuzi，kuko inzuzi kandi zivamo n'ifu，ifu bateka cyangwa bavanga mu biryo， ishobora gukora mu mwanya w'ifu y'ubunyobwa.

Aya ni amashaza. Amashaza ni igihingwa nacyo kiboneka mu karere ka Musanze no muri Gakenke no mu tundi turere dufite ubutumburuke bwo hejuru. Amashaza rero nayo ari mu mpeke kimwe n'ibishyimbo, ibigori.

ibi ni bigori by'amahundo, ibigori by'umuhondo. Ibi bigori by'umuhondo, ni ibigori bikunda byitwa mayizori bikunda guhingwa cyane cyane mu gice cya Kinigi, za Shingiro na Burera.

Ibi ni ibigori biri mu bwanikiro, muri iyi minsi rabu cyangwa minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yashizeho ubwanikiro butandukanye, aha abahinzi banika ibigori cyanga babika umusaruro wabo, kugira ngo utangirika.

Aba bantu bari guhinga soya. Soya ni igihingwa gikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye, kuko soya ni igihingwa gikunda guhingwa cyane cyane mu majyaruguru, ariko si henshi.

Aya ni amahundo y'amasaka n'amahudo y'amasaka, ariko aya masaka ntabwo arera neza kuko amasaka iyo yeze aba atukuye ariko aya ntabwo aratukura.

Iki ni ikigega, ni ikigega kera bahunikagamo, bahunikagamo imyaka itandukanye ari amasaka ari ibishyimbo n'ibindi byose kugira ngo babibike mu gihe kirekire.

Ici ni igihingwa c'ingano, ingano zikunda guhingwa cyane mu karere ka Rulindo no muri Musanze zirahingwa, ingano zivamo umutsima, zikavamo igikoma, kandi zinakoreshwa mu nganda cyane cyane Burarirwa, uruganda gwenga inzoga.

Ni ibigori cyangwa amahundo y'ibigori, ibigori bari kubyanika byareze, uriya muntu ari kubyanika kugira nibimara kuma bazabihungure, nibamara kubihungura babibike cyangwa babe babijyana kubigurisha cyangwa kubisheshamo akawunga.

Aha ni amashaza amashaza yanitse, arayasaruye ubu bari ku yanika kugira, ngo yume babashe kuyahunika cyangwa kuyabika kugira , ngo azakoreshwe nyuma cyangwa azabe imbuto.

Ibi ni ibishimbo ni ibishyimbo bita nyiramukara, ibishimbo bya nyiramukara iyo babitetse amaminwa yabyo aza ari umukara, ariko ni ibishimbo bikungahaye ku ntungamubiri cyane cyane kuko ari ibishimbo by'ubutare. Ibyo bike biri ku ndosho cyangwa se umwuko.

Iki ni igihingwa cy'amashaza aya mashaza ageze igihe cyo kuyanga kuko uru ni uruyange rw'amashaza ruyange rwamashaza mu ku rugaragara ubu ageze igihe cyo kuyanga.

Aya ni amashaza. Amashaza ari imishogwe. Aya mashaza rero ni ayo guteka ataruma, kuko amashaza ushobora kuyateka nk'urunyogwe, cyangwa ukayateka yarumye. Aya ni amashaza rero y'urunyogwe bagiye guteka, cyangwa yo guteka.

Izi ni ingano. Ingano ni igihingwa gikunda guhingwa mu majyaruguru y'Igihugu, mu Karere ka Musanze cyane cyane mu Murenge wa Nyange na Kinigi no mu Karere ka Burera no muri Gicumbi, ni ho zihingwa cyane, ariko izi ngano ni ingano zumye, bashobora gusarura, bagahura, bakazihunika.

Iyi nka bari kuyitera umuti, nk'uko bisanzwe inka bazitera cyangwa bazitera imiti itandukanye kugira ngo izirinde uburondwe n'izindi ndwara z'uruhu zishobora gufata inka cyangwa izindi nyamaswa. Uwo muntu rero ari kuyitera umuti uvura uburondwe.

Izi ni inka, inka bita inyambo zigaragara mu muco nyagwanda kuko kera abanyagwanda bororaga inka z'inyambo, inyambo n'inka ziba zifite amahembe maremare ateze.

Ayo matungo ni ihene, cyangwa ubusho bw'amahene. Aya mahene urabona ko ari abantu bashobora kuba yabayajyanye mu isoko ari abacuruzi, ari abacuruzi b'amatungo magufi.

Izi ni inkwavu. inkwavu ni amatungo magufi yororoka cyane kuko urukwavu rubyarira amezi atatu, kandi rushobora kuba rwabyara hagati y'ibyana bitanu n'icumi, kandi inkwavu ntizigorana kuzigaburira.

Uyu ni umukumbi w'ihene, ihene ni amatungo magufi yororwa mu gihugu hose, akunda kororoka cyane kuko abyara mu mezi atandatu.

Iyi ni inkoko, inkoko iri kurarira amagi. Kurarira amagi inkoko zirarira amagi, kugira ngo nyuma y'iminsi runaka ayo magi azavemo udushwi, ibyo bita guturaga. Mbere yo guturaga rero, inkoko iramanza ikayararira, nyuma akaza kuvamo udushwi.

Uyu ni umuganga cangwa se veterineri uvura amatungo , uyu ari kubaga ariko yabaze ihene ku ruhande kugira ngo ayivure cyangwa ayikuremo ibyana nanga abana b'ihene.

Aya ni amagi, amagi ari mu itureyi cyanga aho bashira amagi bayacuruza. Amagi afite intungamubiri zikomeye cyane cyangwa nyinshi cyane, kuko na Minisiteri y’Ubuzima ishishikariza ko buri funguro umwana yafata igi, cyangwa buri munsi agafata igi.

Iyi ni inka. Inka y'ikibamba, imbere yayo hari iyayo cyangwa inyana yayo. Inka isobanura byinshi muco nyarwanda kuko umuntu utunze inka aba ari umukire. Kandi inka itanga amata, igatanga ifumbire. Ni itungo rifasha abantu kwikura mu bukene.

Iri ni ituragiro aho baturagira udushwi. Ni mu Karere ka Musanze ku rusengero rwa Eyari. Hari inzu yitwa Izi hashiti handitsweho Izi hashiti. Ni ho baturagira utu dushwi. Turabona ko harimo amasake n'inkokokazi.

izi ni intama cyangwa umukumbi w'intama kuko ari nyinshi, intama akaba ari ni amatungo magufi ariko amatungo magufi intama zikaba ari mu bwoko bw'amatungo magufi yoroka vuba.

Izi ni inkoko. Uyu muntu wambaye umwenda w'umweru ni umworozi wazo. Ari kuzigaburira cyangwa ari kuziha imiti n'ibindi bintu zikenera, kugira ngo zirusheho kubaho neza.

Izi ni ingurube, bariya bantu ni abanyeshuri cyangwa se abaganga ba zo baje kuzireba, ni urabona ko zikiri ntoya tuzita, tubyita ibibwana by'ingurube, kuko ziracyari ntoya.

Utu ni udushwi udushwi tw'inkoko bigaragara ko turi hagati y'iminsi icumi na makumyabiri, turacyari duto; biriya bintu duhagazeho nibyo bita ibishwagari, bakoresha kugira ngo udushwi dushobore gushuha.

Iyi ni inka， uyu uri inyuma uri kuyikora mu nda ni Veterineri， ari kuyibyaza，ishobora kuba yagize ikibazo mu kubyara，rero arikuyikora mu nda kugira ngo ayifashe cyangwa ayibyaze.

Ibi ni ibiraro by'ingurube, uko uyu muntu ugaragara kuri iyi foto, ni umworozi cyangwa uzitaho cyangwa veterineri ushobora kuba ari kuziha imiti.

Izi ni igurube ziri mu kiraro. Ingurube ni amatungo yororoka cyane yororwa hafi mu gihugu hose kuko yororoka cyane kandi akaba adahenda. Avamo inyama zitwa akabenzi.

Hari inkoko kuri iyi foto n'ihene, uriya muntu araragiye akaba aragiye izi hene, akaba aragiye n'izi nkoko kuko iriya nzu ni inzu bari kubaka ariko itariho itaruzura, ntabwo ayibamo ahubwo aragiye izi nkoko ni nta n'ihene.

Iyi ni inyoni bita igishwi, igishwi ni inyoni igira ubwoba cyane nk'uko bakunda bakunda kuvuga, iyo babwiye umuntu ngo ni igishwi, baba bavuga ko agira ubwoba cyane.

Iki ni icyatsi bita igicumucumu. Igicumucumu gikoreshwa nk'umuti gakondo kuko gikoreshwa bari gusongora umuntu wagize ikibazo, wagize ikibazo akaba afite ikibazo nk'icy'umugongo. Uyu muti igicumucumu baragikoresha.

Iyi ni inyoni n'inyoni bita isande inyoni zo mu bwoko bw'amasade, n'inyoni zisakuza cyane zigira urusaku, ahantu ziri ntawayobega ko zihari zirasakuza cyane.

Iyi ni inyamaswa bita Ingunge, Inguge ziba muri Parike hafi ya zose z'igihugu arizo: Parike y'Ibirunga, Akagera, iya Nyungwe na Gishwati hose haba Inguge.

Ni inyoni yo mu bwoko bwa dondanga. Iy'inyoni, ni inyoni itobora ibiti. Iz'inyoni zikunda no kuba mu biti. Iba ifite umunwa ukaze cyane aho idodanga cyangwa ipfumura igiti kigapfumuka ikiberamo.

Uyu ni umutubu, umutubu uri mu bwoko bw'ibikeri. Imitubu ikunda kuboneka mu bishanga, imitubu ikagira ubumara kuko uwuriye wahita upfa.

Izi ni inguge, inguge n' inyamaswa zifite imiterere nk' iy' abantu, ziba muri parike z' igihugu, harimo parike y' ibirunga na parike ya Nyungwe.

Izi ni inzoka ziziritse ku muntu, ku kaboko k'umuntu, n'inzoka ebyiri, harimo umukenganya, n'indi nzoka y'ikiryambeba, ziziritse ku kaboko k'umuntu, ashobora kuba uyu muntu ari umupfumu, kuko ntawundi muntu wafata inzoka atari umupfumu.

Izi ni inyamanswa bita isha cyangwa ihene z'ishamba, zikaba zigaragara muri Parike y'Akagera na Parike y'Ibirunga, abantu barazihiga cyane, kuko ngo zigira inyama zijyoshe.